Umusirikare w'igihugu wambaye impuzankano, ufite ipeti inyenyeri n'ikirango n'ingabo bigaragara ko ari umuntu ukomeye cyane, kandi yambaye neza impuzankano arishimye yishimiye umwuga akora.

Abapolisi bari mu myitozo bari gukora umwitozo wo gutera karate, bambaye impuzankano hasi ndetse n'inkweto, kandi bambaye n'udutisheti two hejuru dusa twose. Biragaragara ko bari gukora umwitozo bose bari mu bitendo byabo bibafasha, kugira ngo bakore umwuga wabo neza, bari ahantu mu gashyamba ruguru yako hari ikibuga cyiza bitorezamo, kigiye kirambitsemo udukoni tubafasha kumenya aho bahagarara.

Abapolisi bari gutanga pulake ku kinyabiziga gishyashya, ni moto nziza ikiri nshyashya bagiye kuyiha pulake, nyirayo yari yaje ndetse n'abapolisi bahari n'abadaso, n'abandi bantu batandukanye benshi bahari, byari ikirori ndetse n'amatente bigaragara ko bose bishimiye iki gikorwa cyo gutanga pulake, kuri moto nshyashya.

Umusirikare w'igihugu mu ngabo z'u rwanda, ufite ipeti rya majoro arimo arasobanurira umunyamakuru amubwira imihigo n'imigambi bafite by'umwaka ndetse n'ibyo bateganya kuzakora mu gihugu, afite mikoro kandi ari gusobanura bigaragara ko afite cofidesi nyinshi ko bazabikora ibyo biyemeje.

Abapolisi bari kuyobora abaturage ,bari kumwe n'abaturage bari kugendana bigaragareko bari bagize ikibazo kandi bakaba bagiye kukibakemurira, bose bari kugendana intambwe ku y'indi kandi abaturage barishimye bose bashakako iki kibazo gikemuka.

Imodoka irimo iragenda abantu bayirimo mo imbere irafunguye inyuma imeze mu bwoko bwa ambulansi, bigaragare ko aba bantu bayunamye inyuma. Ihetse ibikoresho byinshi bimwe biri hejuru, izirikiye hejuru yayo ibindi birimo imbere.

Abapolisi ndetse n'abasirikare bari gusuzuma imodoka, imodoka yari iri kunyuraho bayinyujije hejuru ya rigori kugirango babashe kureba munsi yayo niba ikoze neza, biragaragara ko hari umuntu uri munsi ufiten'itoroshi ari kugenda areba munsi y'iyo modoka ko haba hakoze neza.

Abasirikare babiri bambariye urugamba, bahetse imbunda, ndetse n'udukapu mu mugongo, biragaragara ko bari kumwe, bari ku rugamba, kandi bari kureba aho umwanzi yabasha guturuka, bose barambaye, bambaye n'udupfukamunwa baripfutse, kugira ngo hatagira igice cyabo kigaragara, kikaba cyakwangirika.

Abajenerali bakomeye cyane b'abasirikare bari kwakira umumama, bigaragare ko bagiye kumuha ibihembo, bafite seritifika mu ntoki, bigaraga ko bitegura kuyimuha nk'umuntu wakoze neza, bamushimira cyane.

Umuriro uri gutwika ikirangiti wacanwe ahantu maze borosa ikirangiti gitose, bigaragarako bashaka kuwuzimya kandi gifashwe n'abantu babiri umwe hirya undi hino bose bari kuramburaho icyo kirangiti. Ni ahantu heza hari utujaride, hari n'amatente bigaragarako hari mu birori noneho hakabaho iyo nkongi y'umuriro none ikaba iri kuzimwa.

Umupolisi ari guha mugenzi agakarita akagafotora bigaragara ko ari agakarita k'urugendo kuko ni muri gare hari imodoka zigiye guhita zibatwara. Uyu mupolisi ari kubikora neza akamuha igakarita, uyu muturage akishima cyane.

Umuporisi uri kuri kamera， arimo arahindura kamera ye kugira ngo abashe gufotora neza，n'abandi bicaye mu itente， bigaragare ko ari igikorwa cya porisi，yaririmo iragaragaza serivisi nshyashya igiye gushyira hanze， kandi biragaragara ko hari igikorwa cyateguwe na porisi， kuko iri tente ryabo ridizayininze mu buryo bw'amabara ya porisi.

Ihuriro ry'abaturage bicaye bose banezerewe. Biteguye gukurikira ibigiye kuvugirwa ahantu, ni inama, ishobora kuba ari inama, cyangwa se ibindi biganiro bibahuza. Bicaye ahantu heza mu matente, bose baranezerewe biteguye gukurikira ibigiye kuvugirwa muri iryo huriro.

Inama ihuje abantu benshi batandukanye, ni abantu bicaye bose bafite amakayi, n'amatelefoni bari kurebamo, mbese ubona ko ari ahantu baje nko mu mahugurwa, bose biteguye guhurwa, kandi bagataha bamenye ibyo bahugurwamo, baricaye harimo abakuze, n'abakiri batoya, bigaragare ko ari abantu biyubashye.

Umupolisi ufite ipeti ryo mu rwego rwo hejuru, arimo aratanga ikiganiro, ni hamwe n'abaturage bicaye ahantu mu itente, kandi bigaragara ko bamuhaye umwanya kugira ngo abaganirize ku bijyanye n'akazi kabo bakora k'umutekano, arimo aravuga yishimye kandi yizeye ko abaturage bamwumva neza.

Ababyeyi baje gukingiza abana n'abandi bafite amakayi bicaye bategereje ko baza guhabwa serivisi, bigaragara ko ashobora kuba ari nko ku murenge ababyeyi bicaye bategereje ko umuyobozi aza akabafasha akabaha serivisi nziza bose barategereje bicaye ku murongo ku buryo hajya hindujira umwe umwe

Umuyobozi wicaye mu ntebe arishimye cyane afite mikoro ari kuvuga, ari gutanga ikiganiro cyangwa se ari gusubiza ibyo yabajijwe. N'undi mugenzi we umwegereye nawe ari gukurikira neza ibyo avuga, kandi bose bari mu nama bicaye bitonze ba bungurana ibitekerezo banezerewe.

Umusirikare w'ingabo z'igihugu y'u Rwanda ari gutanga ikiganiro. Afashe mikoro, mbese ari kuganiriza abaturage bitabiriye inama. Bigaragare ko ari kubabwira ku bijyanye n'umutekano n'uburyo bagomba kwitwara muri iki gihe. Hari n'umuyobozi bigaragara ko ari umuyobozi w'Umurenge, cyangwa w'Akagari. Ari kubaganiriza ariko aha n'umwanya uyu musirikare kugira ngo ababwire ku bijyanye n'umutekano.

Abarimu bari mu mahugurwa bahuriye mu cyumba kimwe, bigaragara ko bambaye amataburiya kandi bari impande y'ikibaho, barimo guhabwa amabwiriza ndetse hari umumama uri kubaganiriza n'undi wicaye ufite agakayi, ari kugenda yandika ibyo babaganirije. Biragaragara ko ari abantu bakuru niyo mpamvu utavuga ko ari abanyeshuri kuko ni ababyeyi bakuze, bambaye amataburiya bigaragara ko ashobora kuba ari abarimu.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo bari kubyina, bari kubyinira ahantu mu twatsi bigaragara ko bari gutaramira abantu, bari hino y'umusozi ahantu heza hasa neza cyane, bari kubyina basimbuka banezerewe, bafite icumu n'ingabo n'amayugi ku maguru.

Aba babyinnyi b' abamama beza bambaye neza cane. Bari kubyinira mu kibuga bigaragara ko bari kubyinira abantu baturutse hanze b'abanyamahanga. Barabishimiye cyane, bambaye imyenda myiza y'imyeru, igaragaza umuco nyarwanda ndetse baziritse n'akagozi mu mutwe, bigaragaraza ko ari aba Abanyarwandakazi.

Ikirundo k'ibyatsi byinshi birunze bishinzemo n'igiti mo hagati, bigaragare ko ibi byatsi byarunzwe mu buryo bwo kugira ngo bizume bibore bive mu ifumbire, byose birarunze kandi bigaragare ko ari ibirundo bibiri binini cyane.

Amasaka meza g'amamera ganitse kuri shitingi, gategereje ko gwuma gafite imimeri y'imyeru bigaragare ko yanitswe kugira gate iyi mimeri azabashwe gukoreshwa mu gihe cyo kuyakoramo ubushera.

Uduseke twiza tuboshye neza turi mu buryo bw'udusahani dufite n'imipfundikizo yatwo. Bigaragare ko twakwifashishwa mu gutwara utuntu tw'uturibwa cyane cyane nk'utukarisitiya, cyangwa se imigati. Tumeze neza cyane ku buryo tugaragara neza, ku buryo umuntu wese yakwifuza kutugura.

Umusore wicaye uri kureba neza yicaye ku gatebe gakozwe mu migano. Ni agatebe kamera kajya kumera nk'amadiva ariko katariho imifariso ,kicayeho umuntu kandi hari utundi dukoresho dutandukanye tugiye tumeze nk'uduseke ndetse n'udusahani biragaragara ko uyu musore aducururiza muri iyi nzu kuko no munzu harimo utundi tu etajeri dukozwe mu migano.

Abo bana b'abakobwa bakiri bato barimo kugosora imyaka. Bari kugosorera kuri shitingi bagosora imyanda ivamo. Ni imyaka bari kugosora, bigaragare ko ishobora kuba ari amasaka cyangwa ibishyimbo.

Ingoma abantu bavuza kugira ngo bishime cyangwa se habaye ibirori. Bayivuza bakoresheje imirishyo, iriya bafashe mu ntoki. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ingoma zivuge cyane ushobora kuzishyira ku izuba cyangwa se ugacana umuriro ugashyiraho. Warangiza ukazivuza zikavuga cyane.

Ibikoresho byifashishwa mu kubyina ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye by'umuco nyarwanda, harimo ingofero yambarwa n'ababyinnyi, harimo n'ingoma bakoma iyo ababyinnyi bari kubyina, kandi hari n'amacumu n'ingabo byifashishwa mu kubyina, mbese byose bijyanye n'umuco nyarwanda.

Ingoma nziza nini ziri kumwe n'imirishyo yazo, zifashishwa bazikoma kugira ngo zikore umuziki ababyinnyi babashe kubyina, banezeza abantu. Ni ingoma nini bigaragare ko harimo inini n'intoya, zose zikaba zitanga umuziki utandukanye zigakora umuziki mwiza, kugira ngo ababyinnyi babashe kubyina bifashishije umuziki w'izi ngoma.

Ibibindi ushobora kuba wabishyiramo ubushera cyangwa se washyiramo amazi, cyangwa se igihe ushaka gushigisha ugashyiramo ubushera. Umusambi ushobora kuwurambura aho hasi ugashiraho ibintu ukanika, cyangwa se ukaba wawushira munsi ya matela ukawuryamaho.

Umukozi urimo kubumba inkono cyangwa se ibyungo， abibumba mu ibumba ndetse agakoresha n'ubwatsi bw'urufunzo， arimo arabibumba， hari ibyo yamaze kubumba biri hirya biteretse， ategereje ko byuma akabona kujya kubijyana kubigurisha， ndetse afite n'ibindi akoresha acana， kandi abikora neza cyane， biragaragara ko ari umuntu usanzwe abimenyeye.

Icyungo kiri ku ziko, gitetsemo ibyo kurya birimo kubira, byazamutse bigaragara ko bigiye kumeneka, bashyiramo uduti tw'imitozo, kugira ngo barebe ko byagabanyuka. Iki cyungo gikozwe mu ibumba, kandi biragaragara ko giteka neza.

Isekuru n'umuhini wayo agasekuru kabajwe neza ku bujyo gafite indiba ibasha gufata hasi, hari mo n'umuhini bigaragara ko bitegura kuzana ibintu byo gusekuriramo, hari n'akandi gatebo kari ku ruhande gashobora kuba karimo ibintu bagiye gusekuririramo, nk'isombe cyangwa se ibindi.

Umukeka mutoya uboshywe mu bwatsi bw'umuberanya wifashishwa mu kwicaraho, cyangwa se kuryamwaho, mu gihe umuntu ari kuruhuka. Ushobora gukoreshwa hanze cyane, cyangwa mu nzu mu gihe ushaka nko kuruhuka, ariko udashaka kujya mu cyumba.

Agaseke keza cane karimo amabara y'icatsi kaboshye neza gafite umutemeri mwiza kifashishwa mu gutwara ibintu mu bukwe cyangwa se ahandi hantu bagiye gutura kajyamo nk'ibiro nka bitatu by'ibishyimbo cyangwa nka bitanu by'amasaka kari ahantu heza cyane bigaragara kari agaseke keza umuntu yakwifashisha akagatwaramo utuntu.

Inkoko nini iri hasi irarambitse, ariko bigaragara ko ishaje kuko yaratobotse. Iriho imbuto, ingemwe cyangwa se utundi tuntu turiho hejuru, bigaragare ko twose turiho kugira ngo babashe kudutoranya bakuremo utuzima, n'utwapfuye. Irambitse ahantu mu mabuye hari n'utwatsi.

Abaririmbyi b'indirimbo gakondo bari kuvuza imyirongi ikozwe mu ihembe. Bigaragara ko bari gukora injyana nziza ifasha abari kubyina kubyina neza, kandi hari n'abari gukoma ingoma kugira ngo bashimishe abaje kubareba, banashimishe ba mukerarugendo baje gusura ibyiza nyaburanga.

Urwuho ushobora kuba warumweramo ubushera cyangwa se igikoma. Biriya biri mu rwuho ni igikoma cy'amasaka gifashe, naho hariya kiriya kiri hasi y'urwuho ni ingata na seriviyete ndetse n'isahani, hasi hakaba hariho n'umukeka.

Abantu bari gukora umuganda rusange. Kuko urabona hari amamodoka atwara abantu, hari na bafure zituma amajwi asohoka neza, abantu bakumva ibyo abandi bari kuvuga, cyane cyane abari kure cyane. Hari n'amatente abantu bicaramo mu gihe habaye ibirori.

Intebe nziza ya kinyarwanda ikozwe mu giti, ikaba ifite urugara ni rwo hejuru bicaraho, ndetse n'urwo hasi rufata hasi. Iteretse ahantu ku makaro mu nzu nziza, bigaragara ko ari yo bakoresha bicaraho. Intebe ya kinyarwanda kandi imeze neza ibajije neza cyane.

Umuhinzi urimo kugosora imyaka ye bigaragarako yayisaruye neza kandi akayandika ku mashitingi, arimo kuyigosora yikore akoresheje intara kandi biragaragarako ari kuyisukura neza kugira ngo abashe kuba yajya kuyigurisha, cyangwa se abashe kuba yayibika neza itazangirika.

Ibyungo byiza bikozwe mu ibumba ndetse harimo n'ibindi bikozwe mu yindi forume itandukanye biragaragara ko bibumbye neza kandi bimeze neza gusa nta mifuniko yabyo ihari ariko birasa neza ku buryo byabasha gutekerwamo ibiryo bigashya neza kandi bigashya bimeze neza.

Isekuru ibajwe mu giti imeze neza yifashishwa mu gusekura utuntu two kurya twa buri munsi, harimo gusekura imyumbati kugira ngo habonwe ifu yo gukoramo ubugari cyangwa se isekurirwamo ubunyobwa, cyangwa se ibindi binyampeke bindi bitandukanye kugira ngo bibashe gutanga ifu.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo bari kubyina bafite imisatsi igiye inyuma bafite ingabo n'icumu mu kiganza, biragaragara ko bari kubyina bari kubyinira abantu , barishimye cyane bigaragara ko basanzwe babimenyereye bari kubikora neza bambaye amayugi , basimbutse buri wese atera icumu ajyana imbere.

Iningiri nziza ikora umuziki iriho agati kigonze bigaragareko kameze nk'umuheto , ndetse hariho agacuma noneho hakabaho n'akagozi gakubitwa iyo ukojejeho igiti ucuranga, bivugira muri iki muri iki gicuma bigatanga umuziki mwiza uryoheye amatwi.

Umuntu wambaye neza yambaye nk'umwami, yambaye ingofero ndetse y'abami n'imyenda n'inkoni, bigaragare ko ari umwami uri kumwe n'umugabekazi. Umugabekazi yambaye neza, yambaye urugori rumwe ruzengurutse umusatsi, n'urundi ruje rugafata mu gahanga, n'imyenda y'umweru nawe n'urunigi mu izosi.

Ababyinnyi babiri babyina imbyino za gakondo z'umuco nyarwanda，bambaye amayugi，bafite n'imisatsi minini igwa mu maso， turabona ko bitegura kubyina kandi babizi cyane， barishimye， bigaragara ko ari abantu basanzwe babimenyereye， bafite ingabo n'icumu bibafasha mu kubyina no guca imigara.

Umwami yicaye mu ngobyi bari kumurambagiza bamuhetse mu ngobyi. Hari abantu benshi cyane bahetse iyo ngobyi, bari kumutembereza kugira ngo yishime, kandi bamwereke agende asura ahantu amenya ko uko hameze kandi anatambagire aho ayobora.

Ikibungo cyangwa se inkono ikozwe mu ibumba nini cyane imeze neza, yifashishwa mu guteka ibiryo, harimo nko kuyitekamo ibishyimbo cyangwa se ibijumba, cyangwa se ibindi bintu bitari isosi. Ni inkono nini kandi nziza cyane, idahenze igura makeya, kandi igateka neza igahisha ibiryo.

Ababyinnyi beza b'imbyino gakondo bari gutaramira abantu, biragaragara ko bose barimo kubyina bishimye, banezerewe bafite icumu bose bari ku ruhande, bari gusimbuka bakoresheje ukuguru kumwe, bari ahantu hatangaje hagaragaza umuco nyarwanda ku kazu keza kubawukishije ibyatsi kandi kakaba gaparase neza, bigaragare ko ari ahantu heza nyaburanga.

Umukozi wa Emutiyene ucuruza amayinite ndetse akanabika akanabikura, ufite akabage. Biragaragara ko ari mu kazi, arimo kugenda agenda ahantu ku miryango imbere ku mabotike agenda ashaka abakiriya. Iruhande rwe hari intebe nziza umuntu yabasha kwicaramo ikozwe mu migano, mbese bigaragara ko ari agatebe keza cyane.

Icyansi cya kera kigaragaza umuco nyarwanda， kera uko babikaga amata ndetse n'aho bacundiraga amata，ni icyansi kifashishwa mu kubika amata， akaba ariho bashyiriraga imvuzo mu mata， amata akabasha kuvurira muri icyo cyansi，biragaragara ko umuntu agifashe ku kiganza kandi arimo gucunda aya mata， akaba ari no kwereka abantu uburyo mu muco nyarwanda babikaga amata.

Abanyeshuri bari kwiga kurasa bafite ibiti bikozwe nk'imyambi n'imiheto. Batamitsemo ibiti n'imyambi barakurura bose bitegura kurasa imbere, kandi bose bakarasa ahantu hamwe.

Akazu keza k'ibyatsi kagaragara neza kubakishije ibiti biparase mu buryo bwiza, kandi bigaragara ko ari akazu ka kera, ko hambere kagaragaza kera umuco nyarwanda uburyo inzu zabaga zimeze. Ni akazu keza umuntu abasha kuba yasura wese ushaka kumenya umuco nyarwanda.

Abantu benshi begeranye bafite inkoni kandi bambaye imyenda yerekana uko abantu ba kera bambaraga mbese imyambaro ya gakondo. Barerekana umuco wa kera uko abantu bambaraga.

Ababyinnyi b'imbyino gakondo bakaraza imisatsi bose barunamye bari kureba hasi bakaraze imisatsi kugira ngo bashimishe abantu babareba imbere bafite inkoni ndetse n'ingabo ikingira kugira ngo bayifashishe mu mbyino zabo.

Umukeka mwiza cyane uriho amabara y'umukara akoze umunani uri mu byatsi byiza, akajaride keza bigaragara ko umuntu ashobora kuryamaho mu gihe yaba ashaka kuruhuka, kandi biragaragara ko ari ahantu heza cyane umuntu ashobora kuba yaruhukira mu gihe ari kumwe n'undi muntu bari kuganira.

Umuntu ufite igisabo kinini babikamo amata kiriho n'umutemeri wacyo kirapfundikiye, arimo aracyereka bamukerarugendo agikuye ahantu mu kazu keza k'ibyatsi, bigaragara yuko yaraje kwereka ba mukerarugendo ibyiza by'iwacu n'ubujyo tubika amata mu bisabo.

Umubyinnyi wimbyino gakondo wambaye neza impuzankano. Yambaye imisatsi mu ijosi, afite icumu ndetse n'ingabo. Yabishyize imbere, mbese yararimo kwifotoza cyangwa se kwereka abantu agiye gutangira kubyina. Yambaye neza, yakenyeye umukenyero hasi ndetse biragaragara ko azi kubyina cyane.

Imashini nini iteye mu buryo butangaje， ishobora kuba yifashishwa mu buryo bwo gufotora impapuro，cyangwa se gukora ibindi，biragaragara ko ari nziza cyane， iragaragara neza ishobora no kuba inahenze cyane，iriho akantu ku ruhande kameze nka terefone，ishobora kuba isikana ibintu，ikaba yakerekana imibare.

Agakoresho kifashishwa mu kuregera ubushyuhe cyangwa ubukonje ahantu mu nzu runaka, herekana imibare harimo zeru na rimwe na kabiri, uburyo umuntu ashobora gufungura akajyana kuri volimi ashakaho ubukonje cyangwa se ubushyuhe.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga kinini kirimo ubwoko bwa kibe kandi gifite imyanya bigaragare ko ugenda uhindura, kiriho ahantu hashushanyijeho imirongo imeze nk'urupapuro kandi gifite ahantu hacomekwa imigozi henshi gishobora kuba gitanga umuriro w'amashanyarazi cyangwa se kigatanga ingufu ku bindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Itara ryiza cyane rinini ritanga urumuri, rirafunguye ntabwo ricometse ku muriro, bigaragara ko rikiri rishyashya, rizakoreshwa mu gihe kiri imbere ritanga urumuri mu nzu. Ni itara ryiza cyane.

Icyuma kinini gifite dinamo mo imbere, cyifashishwa mu gukora ibikoresho byinshi bikenera umuriro. Gifite ahantu ho gucomeka imigozi bigaragara ko gishobora gutanga umuriro cyangwa se kikaba cyatanga ingufu zakifashishwa n'ibindi bikoresho, mu gihe bikeneye umuriro kugira ngo bikore.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashisha mu gutanga ingufu z'umuriro, gifite ahantu h'imibare kikwereka umubare wa voltegi, kiri gutanga igikoresho cyiza kandi kimeze neza bigaragaye ko gishobora gutanga umuriro w'amashanyarazi, kiracagingwa cyamara kuzura na cyo kigatanga umuriro ku bindi bikoresho gicometseho.

Imashini nini ya jenerateri itanga umuriro, ndetse n'izindi ngufu z'amashanyarazi mu gihe umuriro udahari. Ni imashini nini bigaragare ko ishobora kuba itanga umuriro mwinshi, kandi ikaba yacanira ahantu hanini mu bigo by'amashuri, cyangwa se kwa muganga, cyangwa se mu ma banke.

Agakoresho kifashishwa mu muriro kazwi nka tesiteri cyangwa terunovisi, ifasha gufungura ibikoresho bya elegitoronike ikuramo amavisi. Iriho iki idarapo rya Amerika, bigaragara ko ari agakoresho gakoze neza kandi kakifashishwa n'abakanishi.

Agakoresho kifashishwa mu mashanyarazi, gafungwamo itara kakajyaho insinga hasi ku buryo itara ribasha gufata umuriro riba riwukuye muri aka gakoresho ,agakoresho ka ni gatoya cyane ku buryo kabasha kuba kafata itara kandi kakarihuza n'insinga z'amashanyarazi kugira ngo bibe byatanga urumuri.

Agakoresho k'ikoranabuhanga kifashishwa mu gucaginga amatelefone cyangwa se kompyuta. Ni agakoresho gafite imyanya myinshi aho hashobora kujyaho amatelefoni cyangwa kompyuta nke shatu kayafite amenyo imbere acumikwa muri pulize maze ugacomeka mu yindi myanya yako ushyiraho amatelefoni menshi atandukanye.

Igikoresho kifashishwa mu gufunga, gufungura ndetse no kuregera ubushyuhe cyangwa voruteje runaka, ni igikoresho kitwa vorutimeta kandi gikoreshwa mu mashanyarazi kikaba kibasha kuregera bitewe na voruteje cyangwa se uburemere bw'umuriro umuntu acyeneye ahantu kikaba cyabasha kuburegera hakaba ari bwo gitanga aho hantu.

Agakoresho k'ikoranabuhanga kakwifashishwa mu kuvanga imiziki, karagaragara neza karambitse ku meza abajije neza mu mbaho za ribuyu, karambitse kameze neza kafite aho bakiriza naho bongerera Volime, bigaragare ko byiteguye gukoreshwa.

Igikoresho kinini kiri mu shusho ya kibe， kirazamuye cyane， kandi ni kinini， bigaragara ko gishobora kuba gitanga ingufu z'amashanyarazi，gifite ahantu ho gucomeka imigozi henshi，gishobora kuba gitanga umuriro kigakora nka generateri.

Amashuri ,abantu ,umuhanda ,ikibuga imodoka ,ibiti ,urusengero.

Inzu nziza yubatse neza, igaragara nkaho ari ofise y'ahantu, hari abantu bari kuza bajya kwinjiramo, harimo na ba mukerarugendo, n'abanyamahanga bari kuza bayigana. Ni inzu yubatse mu buryo bwa Etaje, ifite amagorofa atatu, ndetse hari n'imodoka hanze yazanye abo bantu, baje kuhashaka serivisi.

Ikiraro cy'inka kiri, cyubatse neza, cyubakishije ibiti, kiriho ibiti byinshi ndetse kirasakaye n'amabati, hari n'amatafari ku ruhande, bigaragare ko hashobora kuzubakwa inzu inyuma yacyo, iyo abashumba bazajya bararamo. Hejuru yacyo hari indi nzu y'urusengero iriho umusaraba, hanze irakinguye, ndetse bigaragare ko itegereje ko abantu baza kuyisengeramo.

Amazu meza y'amaparitema arimo n'umuhanda ugiye unyuranyuranamo bigaragare ko ari amazu ari ahantu mu mudugudu mwiza w'icyitegererezo kandi akaba afite n'umuhanda unyuramo ashobora kuba yagurishwa cyangwa se akabacumbikira abantu batandukanye baje gusura ahantu bakaba babuze aho barara agiye afite utujaride ku mpande gusa ntabwo jaride ziraterwamo kuko bigaragara ko zitari zamera

Abaturage bari mu muganda wo gutera indabo impande y'amazu bubakiye abantu bimuwe mu manegeka cyangwa se ahandi, bigaragara ko ari amazu meza, yubatswe kandi asa ku buryo ashobora gutuzwamo imiryango y'abantu bimuwe ahantu runaka. Bari kuhatera jalide kugira ngo zige zibaha akuka keza n'ahantu heza bajya baruhukira.

Imashini nini yo mu bwoko bwa torotoro ni imashini itsindagira umuhanda. Irimo gutsindagira umuhanda ukozwe vuba, kandi biragaragara ko umuhanda munini wakozwe neza. Nyuma yo gusiza, iyi mashini bayinyuzaho kugirango ibashe kuwutsindagira uyu muhanda utazagira ikibazo, ukaba wakangirika byoroshye.

Inzu nziza yubatse neza iriho imiryango myinshi itandukanye. Harimo kutangirwa serivisi runaka ku baturage. Hari abaturage bari baje bose bicaye hanze bategereje ko umuntu winjiyemo mo imbere yasohoka, na bo bakajyamo gushaka serivisi. Biragaragara ko hashobora kuba ari nk'ahantu h'ivuriro, ku buryo hinjiramo umuntu umwumwe.

Ikigo kinini cy'amashuri gifite ikibuga cy'umupira. Icyo kibuga kirigukiniramo abana. Bari gukina mu myidagaduro, inyuma yaho hari ikigunda cy'ibihuru. Igihuru kirimo nk'ibiti n'ibitovu n'ibindi biti bifite amahwa byakifashishwa nk'imiti cyangwa se bikaba byakoreshwa mu bundi buryo.

Inzu nziza cane imeze neza y'umuhuruture irimo amadirisha manini iriho na gati inyuma bigaragara ko ari inzu nini ikase kandi ikoze mu buryo bugaragara ko ishobora kuba ari uruziga iriho amatara menshi iriho n'umuhanda inyuma bigaragara ko hameze neza cyane n'icyapa kiranga iyo nzira aho igana.

Inzu nziza zubatse ku murongo kandi bigaragara ko zisa ari nyinshi. Bishoboka kuba ari umudugudu w'abantu bimuye bakahabazana. Zifite n'ubwiherero bwiza bufite amabati meza asa y'umutuku. Inzu zifite n'amazi ku ruhande, n'ikigega. Atbahinzi bari guhinga ruguru yazo kandi bafite ahantu heza bahinze barahatongora, ku buryo hitegurwa guterwa imbuto.

Ishuri ry'abana b'incuke bakiri batoya baje kwiga biragaragarako baje bitabiriye ari benshi, hanze yaryo hari igikinisho buriraho bagakora siporo barimo kurira bamwe bari hejuru, abandi bari hasi bigaragareko aba bari hejuru baraza kumanuka ,n'abandi bakurira bose barishimye baje kwiga kandi baranezerewe.

Inzu nziza y'urusengero yubatswe, yubakishije amabuye imeze neza cyane. Abantu baje baje kuyisengeramo ndetse baje no gufata izindi serivisi kuri santarali. Kandi hari akabuga keza karimo utujaride abana barimo gukiniramo, n'abandi bitegereza umukino bari gukina.

Itara ryo ku muhanda rimurikira imodoka mu gihe cy'ijoro igihe hatabona. Riri hejuru cyane ku buryo rimurika urumuri rwinshi imodoka inyuraho ikabasha kubona kugira ngo hataza kubaho impanuka bitewe n'umuyobe.

Inzu ni nziza cane y'urusengero rwa paruwasi Rwinkuba ya Adeperi yubatse neza cyane, ifite akantu kaje imbere karimo ibirahure byiza bigaragaza ko ari inzu y'urusengero ruteye imbere.

Ikigo cy'amashuri cyubatse neza kirimo imiryango myinshi itandukanye: harimo imiryango y'icyatsi ndetse n'iy'ubururu, harimo n'amadirishya meza maremare. Ni ikigo kimeze neza kiriho umuturage uhagaze hanze bigaragare ko ategereje ko abantu baza akabafasha kubaha inyigisho.

Abakozi b'abejeniyeri bari gukora umuhanda bari kuwusana aho wari warangiritse ndetse bagakora no hepfo yawo kugira ngo bongere inzira y'abanyamaguru imodoka zirimo ziracaho zigenda ziri kunyura ruguru aho bamaze gukora aba bakozi biragaragara ko babizi bafite ingorofani bari gutwaramo amasima ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Umusigiti mwiza wa etaje abayisilamu basengeramo ku munsi wa gatanu w'icyumweru cyangwa se igihe bagiye gusara mu mugitondo sa sita ndetse na nimugoroba.

Abantu, amapave, kiyosike, imodoka, ipoto, ibiti, insinga.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo kunyurwamo n'amagare, ndetse abantu bahagaze hepfo mu gahanda k'abanyamaguru. Harimo rigori ibatandukanya, itandukanya umuhanda n'akayira k'abanyamaguru. Harimo abantu bahagaze bari kwibaza kandi bamwe bari kuganira, uwundi ari kugenda hakurya ruguru y'umuhanda, hari ikigo cya kaminuza kirimo amazu meza y'ama etage.

Inzu nini yubatse imeze nk'umusugiti iriho ibintu bizamuye hejuru cyane, hariho n'ukwezi hejuru bigaragaza ko kuri kureba i Maka, ni inzu y'umusilamu iriho ibintu byiza cyane kandi yubatse neza mu buryo buteye imbere, iriho amabutike ku ruhande bigaragaza ko ari ahantu heza hacururizwa, ni hafi y'umuhanda wa kaburimbo kandi heza cyane.

Ibiti binini by'inturusu biri ahantu mu kigo cy'amashuri, hari amazu meza, bigaragara ko hari agashyamba keza, gatanga umwuka mwiza, ku bantu baba hano muri iki kigo, n'abanyeshuri bahiga, hafite amazi afite akagega kari kubakiye hejuru, kandi bigaragara ko iki kigo kiri ahantu heza, ni ahantu heza ho kwigira, ku banyeshuri bashaka kuza kwiga, bayoboka aha hantu.

Ubutaka, imifuka, amabati, imireko, ibiti, umusozi umunu, amazu, akarima k'igikoni.

Inzu nziza itangaje imeze nk'aho ari inzu y'umwami kuko yubatse neza irimo n'intebe nziza bishobora kuba ari inzu y'urusengero rwubatse neza kandi rumeze neza cyangwa se akaba ari nk'umusigiti kuko harimo udutebe twiza tumeze neza nk'utwo ibwami.

Botike nziza ariko ntoya，iri ahantu muri gare， bigaragara ko ari ahantu hari kunyurwamo n'abantu， ndetse hari n'amamodoka ya kwasiteri atwara abagenzi，harimo abantu bari kunyuraho， ndetse n'abandi bicaye hanze y'iyo botike， bafite amaterefoni， bigaragara ko bari gutanga serivisi zitandukanye.

Amazu meza cane gafite utuntu dusohora imyotsi two hejuru. Bigaragarare ko yubakiwe abantu babatuza mu midugudu. Amazu atondekanye asa, kandi bigaragara ko ari meza yitaruye, yubatswe mu buryo bwiza cyane, ku buryo imiryango ishobora guturamwo.

Ahantu heza hakorerwa ibintu bitangaje, hagaragaramo ibintu bari kubakamo hasi mu kibaya ndetse hirya yaho hari ikiraro, umuntu yanyuraho yambuka kuko ni mukibaya haruguru, hakaba hari umusozi no hakurya hashobora kuba hari umusozi hagaragara ko umuntu ashobora kunyura ku kiraro akambuka, ariko mo hasi hakorerwamo indi mirimo itangaje y'inyubako zikoreshejwe sima n'ibindi byuma.

Inzu y'intara y'amajyaruguru, ni ibiro by'intara y'amajyaruguru biri mu karere ka Musanze. Ni inzu nziza igeretse kandi bigaragara ko ari inzu nziza yubakiwe, yubatswe neza mu buryo buteye imbere.

Abanyeshuri bari mu ishuri barakurikiye, bose bambaye impuzankano bafite ibitabo bamwe bari kuramburamo bakareba, abandi bakurikiye mwarimu ku kibaho, bigaragara ko ari ishuri ryiza rimeze neza, rifite podiyumu nziza kandi n'amarido meza, ni ishuri ry'abasimu cane.

Inama y'abaturage bose baturutse hirya no hino baje kumva inama. Umuyobozi ari kubaganiriza, umudamu munini cyane, ari kubaganiriza ibijyanye n'ibyo bagomba gukora bijyanye n'aho batuye. Biragara ko bigaragara ko bari ahantu heza, hari n'icyapa kinini bigaragara ko abaturage bari bitabiriye cyane bose banezerewe.

Abayobozi bakuru bari bari kuganiriza abaturage kandi bagatanga n'amabwiriza, aha ngaha umusaza bari bahamagaye bamuzanye imbere kugira ngo bamuhe impano bari kumuha impano y'agatabo. Umusaza nayo akayakira ariko adasobanukiwe icyo ivuze cyangwa ikirimo bakongera kumusobanurira iby'iyo mpano bamuhaye.

Abanyeshuri bari ahantu mu kigo cy'ishuri ndetse bari kuganirizwa bose bigaragara ko bari kuri asamboroma bose baje kumva amabwiriza y'ikigo. Hari umugabo uri kubaganiriza bigaragara ko ashobora kuba ari deregiteri cyangwa se ari umushyitsi waturutse hanze aje kubaha ikiganiro bose baricaye bameze neza bambaye impuzankano yabo y'abanyeshuri bagaragara ko bacye ku maso.

Motomodoka nziza kandi yifashishwa mu gutwara amata, ihetse ibicuba cyangwa ibyansi bitwarwamo amata, ni motomodoka izwi nka lifani yaje gupakurura amata ku ikusanyirizo.

Abamotari bari kugenda mu muhanda bahetse abagenzi. Babiri barahetse undi umwe nta mugenzi afite, bari kugenda mu muhanda banyuze aho abanyamaguru bambukira ndetse n'imodoka ziri inyuma zibakurikiye kandi ziri kunyura mu ruhande rw'ibumoso bo bakanyura mu ruhande rw'uruguru, bigaragara ko bari gukoresha umuhanda neza

Imodoka nziza y'umuhondo ya skurubasi, ariko irimo iratwara abagenzi biri kugaragara umuntu ushaka kwinjiramo ngo ayijyemo, ariko umuryango uracyafunze arimo arashaka uburyo bamukingurira ngo na we ajyemo. Ni imodoka nini kandi ya kwasiteri nziza iparitse ahantu na ho hari izindi modoka.

Ikimodoka kinini cyane, gitwaye abantu mo imbere, bigaragara ko ari imodoka ya Kigali siti tawa, kandi ni urumodoka rutwaye abantu bashobora kuba ari na ba mukerarugendo. Iri kugenda yerekana ibirango bitandukanye, bya ayi endi emu banki na Visiti Rwanda mu ibara ry'ubururu. Ni ikimodoka kinini cyane.

Abanyeshuri bari ahantu muri gare bategereje gutega ngo bajye ku mashuri yabo, bose bari kureba babuze imodoka, imodoka ziraparitse ariko harimo abagenzi benshi bigaragare ko bari babuze imodoka batega.

Imodoka nini cane zifashishwa mu gutwara abagenzi imodoka nini zizwi ku izina zashira umuteto ziraparitse zitegereje abagenzi ko baza zikabatwara zibajyana mu byerekezo bitandukanye imodoka zifite ibara ry'ubururu kandi bigaragara ko zikeye cyane n'imodoka nziza z'abasirimu cane.

Indege nini nziza ya Rwandeya iri kuguruka yafashe ikirere, ifite udupine tune n'utundi tune imbere n'utundi tubiri tw'imbere cyane ndetse iriho n'idarapo ry'igihugu n'izuba, bigaragara ko iri kugaragaza ko ari indege y'u Rwanda.

Imodoka nyinshi n'amamoto biri gukoresha umuhanda biri kugenda byegeranye cyane, amamodoka amwe anyura kuruhande rw'iburyo andi anyura kuruhande rw'ibumoso, amamoto nayo anyura hagati y'izo modoka, bose bari gukoresha umuhanda bagenda kandi biragaragara ko ari byinshi cyane mu muhanda, umuhanda uri gukoreshwa neza.

Amamoto menshi ahetse abagenzi ari kugenda mu muhanda, umuhanda uri gukoreshwa n'amamoto ndetse n'imodoka iri kunyuraho, moto zahagaze mbese bigaragare ko zageze aho abanyamaguru bambukira umuhanda, zikaba zahagaze zitegereje ko abo banyamaguru banyuraho cyangwa se zikaba ziri mu muhanda, umuhanda w'ibice byinshi zitegereje ko ibindi binyabiziga biri mu yindi mihanda binyuraho.

Ba mukerarugendo bari mu bwato. Bagiye gusura ahantu ,baratembera bari kubereka ibyiza bitatse aha hantu . Bafite udukoko dutoya bifashisha mu gutwaraho ibintu . Bari kugenda mu bwato bose . Bigaragare ko bose baje gusura ubwiza nyaburanga . Ubwato burasakaye hejuru.

Ikimodoka kinini kiri kugenda mu muhanda, ni ikimodoka kinini cyane gitwara abagenzi ku mihanda, bigaragare ko cyo kiri kugenda ariko nta bantu barimo, kiri kunyura ahantu heza ku nzu ya Convesheni Senta, bigaragare ko ari ahantu heza cyane mu mujyi. Hari izindi modoka ziparitse, zose zaje aho kuri iyo nyubako n'iki kimodoka ubwo cyo kuba kizanye abantu kuri iyo nzu, iyi nyubako nziza cyane.

Ubwato bunini bukoresha ingashya budafite moteri. Buri kugenda mu ruzi rufite umusare, uri kugenda yambutsa. Harimo abagenzi ndetse n'igare, bageze ku nkombe bigaragara ko agiye guparika ku ruhande maze bakavamo.

Imodoka nziza itwara abagenzi nini cyane yo mu bwoko bwa shirumuteto, irimo gupakira abagenzi biragaragara ko abagenzi barimo kugenda binjiramo, bakozaho ikarita ya tapandigo yifashishwa mu kwishyura byihuse. Abagenzi bari kwinjira, harimo n'abanyeshuri bahetse ibikapu bambaye n'impuzankano, bigaragara ko bari kujya ku mashuri.

Umuhanda nyabagendwa uri kunyurwamo n'ibinyabiziga, harimo abamotari ndetse n'imodoka ziri kugenda, hepfo hari inzu y'ubucuruzi hari iziri gukata ziganayo ,bigaragare ko ari ahantu hari santere nziza y'ubucuruzi, izi modoka ziri kujyanayo abantu kugurirayo. Izi modoka zikoresha umuhanda neza, zinyuranyuranamo ndetse n'amamoto anyuramo, n'abagenzi b'abanyamaguru banyura mu muhanda.

Abagenzi bari kwambukanya umuhanda, bari kunyuranaho bambuka aho abanyamaguru bambukira, imodoka ziri guturuka hirya zishaka kunyuraho ariko zigahagarara zikubahiriza ka kayira k'abanyamaguru, bakubahiriza amategeko agenga ikoreshwa ry'umuhanda.

Imodoka nini ya volukano nini iteye imbere cyane iri muri gare iri gutwara abagenzi, abagenzi barimo ni benshi biragaragara ko harimo n'imodoka nyinshi kandi n'abagenzi ni benshi bifuza kugenda. Imodoka iri gukata kugirango iparike abagenzi bayinjiremo.

Abamotari baparitse ku muhanda, ni benshi cyane kandi bose babonye umugenzi umwe, buri umwe wese ari kumuhamagara ngo aze amutware, biragaragara ko bose bari biteguye gutwara uyu mugenzi, bose bamanitse amaboko bari kumuhamagara n'abandi bahamagara bigaragare ko bose bashaka kumutwa. Ni abamotari beza bafite amamoto mashyashya.

Abanyonzi benshi batandukanye， harimo abasore ndetse n'abapapa bakuze，bose bafite amagare ariho imifariso， bamwe bayariho， abandi bayaparitse，hari abagenzi bari kuza gutega， bigaragara ko buri munyonzi wese， ari kwegera umugenzi amubaza aho arajya ngo amutware.

Imodoka za ba mukerarugendo irimo kugenda ahantu mu misozi, bigaragara ko ihetse ba mukerarugendo bari kugenda bareba ibyiza bitatse aha hantu. Iri kunyura ahantu hari ivumbi ryinshi cyane, bigaragara ko ari umuhanda ukozwe vuba, nta bwo urimo kaburimbo, ni cyo gituma iri kugenda itumura ivumbi.

Ingorofani imeze neza iriho amapine atatu, biragaragara ko yifashishwe itwara imizigo, itwaye ibikoresho by'umuntu wimutse, harimo amakesi cyangwa se akantu abikamo ibikoresho bye by'ibanze gakingwa ndetse na matera ndetse n'iyindi mifuka irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu nzu.

Umusaruro w'abahinzi upakiye mu mifuka, imifuka yahawe amamoto ni abamotari bagiye kuwutwara bawujyana ku isoko, birapfundikiye cyane umufuka umwe uriho na cyayicyayi bigaragareko mo imbere harimo ibindi bintu ,ariko bagiye kujyanaho na cyayicyayi kugira ngo zizifashishwe mu gukora icyayi. Aya mamoto ni menshi cyane yose atwaye uyu musaruro awujyana ku isoko cyangwag se ahandi hantu hatandukanye.

Umunyonzi uhetse umugenzi，umugenzi afite akamvirope bigaragare ko avuye guhaha mu gasoko， akaba yateze uyu munyonzi. Uyu munyonzi afite ikigare kinini gifite intebe nini，abagenzi bicaraho，bigaragare ko ashobora gutwara abagenzi benshi barenze umwe， ariko uwo ahetse ni umwe， amutwaye mu muhanda bari gutaha.

Imodoka nziza nini ya hoho，ihetse umucanga，kandi iri kunyura ahantu mu bitaka. Bigaragare ko ariho yari ivuye gupakira， irimo ijyana ibitaka aho igomba kubijyana，biragaragara ko iri kunyura ahantu hari ibitaka byinshi，kuko amapine amwe yarengewe n'itaka ntabwo ari kugaragara.

Ikimodoka kinini gitwara imizigo kiyambukiranya imipaka, gihetse ibintu byinshi kandi ni nyinshi zikurikiranye bigaragara ko ziri kuva ku mupaka umwe ziza mu kindi gihugu. Ziri kunyura mu muhanda gunini gwiza wa kaburimbo zose zikurikiranye.

Abantu bari muri siporo bari kwirukanka bose bari kugenda gakeya badasigana, kugira ngo bagende bafasha n'undi uraruha kugira ngo ataza kwiburamo; bari kugenda bakora siporo banezerewe, bishimye harimo n'ufite ubumuga bw'ukuguru nawe bari kumurinda kugira ngo nawe abashe gukora siporo.

Abakinnyi batwara igare baparitse bose. Bahagaze hamwe kumurongo umwe. Bigaragara ko bitegura gutangira isiganwa, buri wese ariteguye kandi yambaye impuzankano y'umukinnyi w'isiganwa ry'amagare. Bambaye ingofero n'imyenda yabo yabugenewe, kandi bafite amagare meza yose ameze kimwe, ku buryo biteguye gutangira irushanwa.

Abakinnyi ba vole barimo gusuhuzanya mbere yo gutangira umukino bigaraga ko bagiye gukina. Ni amakipe abiri atandukanye bamwe ku ruhande rwo hirya abandi ku rundi ruhande, bigaragara ko bari gusuhuzanya bahana ikaze mu mukino bagiye gutangira.

Umusore munini uri muri siporo, ari gukora siporo yo gusimbuka, bigaraga ko yaje akandagira ku kintu agiye kwituruna atere siporo y'inyuma ari mukibuga kinini cyiza, harimo n'abantu baje kumureba, bigaragare ko ashaka kuba ari nk'ahantu muri stade, baje kumureba ari kumwe n'umukoci we umutoza.

Abakinnyi ba handibolo bari gukina uyu mukino ,ni abakinnyi b'abakobwa bose bari gukina ,umwe yafashe balo agiye gutera abandi baramufata baramukurura bamubuza gutera ,abandi bari inyuma ye bari kureba bitegereza bategerejeko atsinda igitego.

Ikibuga cy'abakinnyi ba tenisi barimo gukina. Bigaragara ko basoje bari kuruhuka. Bafite udukoresho bifashisha mu gukina, umwe agakoresha ahagaze hirya y'iriya fire, bagakubita agapira undi nawe akakagaruza aka gakoresho afite mu ntoki.

Ikipe y'abakinnyi ba Aperi efuse bambaye umukara n'umweru. Bose barunamye bari gufata ifoto nziza. Ab'imbere barunamye, ab'inyuma bagahagarara kugira ngo babashe gufata ifoto nziza y'urwibutso, kandi urabona ko ari abakinnyi biteguye gutsinda. Bameze neza cyane bose bafite forume bigaragara ko bari butsinde uyu mukino.

Umukinnyi gwa handibalo gafite umupira undi ari kumusunika amubuza gutera mu izamu n'abafana bari kumufana benshi cyane biragaragara ko ari umukino w'abagore be bari gukina kugira ngo bishime kandi mu marushanwa kugira ngo barebe ushoboye gukina nuwegukana igikombe.

Ikibuga, ubwatsi, amazamu, umupira, ibiti, amatara, umuzamu, abantu.

Abakinnyi ba vole bari mukibuga bari gukina, umwe ari gupasa undi agiye gutera ikiro, undi yasubiye inyuma yiteguye gukuramo umupira, balo iri mu kirere undi yiteguye gusimbuka, yambaye ibimufasha gukina mu mavi.

Umwana w'umukobwa ukina vole balo ari gukina yishimye cyane ari gutera umupira akoresheje amaboko abiri abandi nabo bahagaze ku ku ruhande bari kureba uburyo abikora bigaragare ko arimo kwigishwa uburyo bawutera n'amaboko abiri n'abandi bakamureberaho.

Aba siporotifu bambaye impuzankano, bari kumwe n'abandi baterankunga babo ndetse harimo n'abazungu. Bigaragara ko bari baje gukora siporo kandi bari mu kibuga cyiza, kirimo amatara kandi kimeze neza. Ni ikibuga gisobanutse cy'abantu b'abasirimu.

Sitade nziza irimo abafana baje gufana ikipe y'umupira w'amaguru. Ikipe ziri gukina zose ziri mu kibuga, harimo iyambaye ubururu n'iyambaye umweru n'abafana bicaye ku mpande, bigaragara ko bose baje bake kureba umupira, kandi barishimye cyane barimo gufana, bamwe bambaye imyenda ihura n'iy'amakipe bari gufana.

Paniye nini iriho agafire ku ruhande yifashishwa mu gukina umukino wa basiketi, hari na baro, baro bigaragara ko bayiteyemo hejuru ikaba inyuzemo imanuka; mbese batsinze igitego. Ni paniye iri ahantu hari mu kibuga kinini kandi harimo n'abafana benshi baje gufana bigaragara ko iyi baro itsinze igitego.

Umukinnyi wa Tennis uri gukina yateye umupira, ndetse afite agakoresho yifashisha atera umupira. Bigaragara ko umupira amaze kuwutera akawunyuza hejuru y’iyi fire. Arimo gukina, bigaragara ko hari n’undi ku rundi ruhande uhahagaze, uribuze kumusubiza agapira kugira ngo bakomeze bakine.

Umukinnyi gwa tenisi ari gukina afite agakoresho yifashisha asubizayo umupira. Bamuteye umupira, biragaraga ko yirambuye nk'ugiye kuwutera awusubizayo. Yazamuye ukuboko kugira ngo abone sitabirite kugira ngo abone uko atera umupira awusubizayo.

Abana bari mu isiganwa bakina isiganwa rizwi nka atelete ,ni isiganwa ryo kwirukanka biragaragarako bafite amanimero bari gusiganwaho kandi umwe uriruka agasiga abandi ari buhembwe, bari gusiganirwa ahantu heza muri sitade harimo n'intebe bigaragarako ari ahantu heza h'isiganwa hateguwe, ni abana bakiri bato bafite imyaka mitoya.

Umukinnyi wa tenisi ari gukina mu kibuga ,ikibuga gitoya n'imodoka ku ruhande ,bigaragara ko ari ahantu hakorerwa siporo n'imodoka iriho imigozi bigaragara ko ishobora kuba ari abantu bayikurura bayikoreraho amasiporo.

Abana batwara amagare, amagare y'amasiganwa bambaye impuzankano y'abashoferi b'amagare. Bari ku igare bose bigaragare ko bari gukora siporo cyangwa se barimo gusiganwa, kugirango babashe kwegukana ibihembo.

Abakinnyi ba baskete bari gukina umwe yasimbutse, agiye gutera baro muri pane, abandi nabo basimbutse bashaka kuyitangira, ngo adatsinda igitego. Ni ikipe y'abamama beza, barebare, bigaragara ko basanzwe bakina uyu mukino.

Abanyeshuri bicaye ahantu mu kibuga hameze neza bose baje gufana ikipe yabo ya basiketi ari ikipe y'abakinnyi bicaye mu kibuga bafite balo bigaragara ko biteguye kandi basoje gukina umukino bari bafite bagaragare ko bashobora kuba batsinze kuko barishimye cyane barimo kubafotora babashimira kandi na bagenzi babo barimo ku bafana bamanitse amaboko.

abanu, inkweto, umupira, abafana, ikibuga, basikete.

Akayira kanyura ahantu kubakishije amabuye, amabuye asitse hasi bigaragareko ari akayira gakomeye cyane ku buryo uyu muhanda udashobora kuba wakwangizwa n'isuri, cyangwa se n'amazi yabasha gutembamo.

Umukobwa urimo gutembera mu muhanda ari kunyura ku mazu meza, ibipangu byiza, igipangu kinini gifite imiryango ibiri kirimo n'inzu nini ya cadasIteri ndetse ifite n'indabo ku ruhande, bigaragaza ko hatuye abantu biyubashye kandi bakomeye.

Umuhanda munini mwiza wa kaburimbo ariko wangiritse ku ruhande bigaragare ko hari ahantu ku ruhande rw' umuhanda mu kayira k'abanyamaguru hari kugaragara itaka hashobora kuba haramenaguritse , hakurya y'umuhanda hari inzu nini nziza imeze neza ndetse hari n'akayira kazamuka kajya kuri iyo nzu harimo umuntu uri kuzamuka ajya kuri iyo nzu gushaka serivise .

Umuhanda munini nyabagendwa urimo uragenda ariko ufite n'undi uwushamikiyeho bigaragare ko hari imodoka iri kuzamuka iva mu muhanda munini igemura ku gahanda gato kakazamuka kajya ku nzu iri ruguru y'amakaro.

Umuhanda munini wa kaburimbo w'ibyerekezo bibiri, kandi ufite aho badepansiriza, biragaragara ko ari umuhanda ushaje, ndetse bigaragare ko hari nijoro. Uyu muhanda ni ninjoro harimo umumotari waparitse ku muhanda, utegereje abagenzi.

Santere nziza z'ubucuruzi zirimo amazu ameze neza ariho amakaro ndetse hariho n'umuhanda wa kaburimbo mwiza, uri kunyurwamo n'abantu ndetse moto iparitse ku ruhande rw'umuhanda bigaragareko nyirayo yavuyeho, akajya gushaka serivisi muri iyo santere.

Umuhanda munini wa kaburimbo ugiye w'ibice bibiri uriho n'akayira k'abanyamaguru, urimo abamotari babiri bari kugenda bari kuri moto ndetse n'abanyamaguru bari kunyura ku ruhande, hakurya y'aho hari akajaride keza kameze neza karimo n'ururabo ndetse n'ikigo kiri kugaragaraho uruzitiro rwacyo.